Igitanda ndetse n'ibyuma bitandukanye byifashishwa kwa muganga igihe umurwayi arembye cyane aryama kuri kiriya gitanda maze biriya byuma bakabimushyiraho.

Abantu bahagaze ari bane, harimo umusirikari ndetse inyuma y'abo, hari undi musirikare wambaye ingofero ndetse n'imyenda yabo, bisa nkaho hari ibyo bari kuganiraho.

Abantu bicaye mu nzu nziza kandi iteguye neza, bisa nk'aho bari mu nama kuko abayobozi babo bicaye ku meza, aho hari mudasobwa zitetse kuri ayo meza bari kureberamo.

Abantu batatu bahagaze mu nzira isakaye, biragaragara ko iyi nzira ifasha abantu gutambuka nta kibazo izuba ryaba rirasa cyangwa se imvura igwa.

Abantu bicaye mu nzu nziza kandi iteguye neza, harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye neza, abayobozi babo bicaye imbere ku meza ndetse hari mudasobwa ziteretse kuri ayo meza imbere yabo.

Abaganga batugira inama kenshi kumenya ahantu dufatira imiti cyangwa se tuyigurira, ibyo bizadufasha igihe hari indwara cyangwa izindi ngaruka zindi zibayeho, kumenya aho ujya kubariza.

Ababyeyi bicaye ahantu hamwe, undi arahagaze, ahetse umwana, amufubitse akatambaro k'umweru, bigaragara ko muganga abari hagati, hari amafishi ari kubaka.

Abantu bicaye kwa muganga bisa nkaho baje kwisuzumisha, abandi bari kubakira bisa nkaho bari kubuzuriza amafishi, maze ngo babafate ibizami.